Abantu benshi bari ahantu hamwe, umutaka wa MTN, ufite ibara ry'umuhondo, uri kugaragara neza, umusore wambaye agapira k'amaboko magufi n'ijile ya MTN, iruhande rwe hahagaze umugabo ubyibushye, wambaye agapira k'umutuku ndetse n'amarinete.

Icyapa kiriho ibara ry'ubururu, ryiganje ndetse hasi harikabara k'icyatsi n'umweru, ryanditseho amagambo yandikishijwe inyuguti zifite ibara ry'umweru ndetse hino hari inzu nziza ifite irangi ry'umukara, iri kugaragara neza.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu ibicuruzwa by'amoko atandukanye y'inyanya, ibijumba, ibishyimbo, imboga, abantu benshi barimo gutambuka bajya guhaha ibintu bitandukanye.

Ahantu heza, hateguwe neza, hariho ibintu byinshi bitandukanye, indobo y'umweru, ifite umufuko w'umweru, iteretse ku meza, irimo imigati yamaze gukorwa kugira ngo igurishwe abantu.

Abantu bateraniye ku nzu nziza igeretse, isakaje amabati y'umutuku iri kugaragara neza, imbere yabo hari umuhanda mwiza w'umukara uri kugaragara neza, higanjemo abantu bambaye imyenda y'umweru.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe barimo kuganira bizihiwe. Imbere yabo hahagaze umugore wambaye ikoti ry'umukara ndetse afite imisatsi igiye mu mugongo. Afashe mikoro mu kiganza ke kimwe, ikindi yakirambuye imbere arimo kuvuga.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bari gukurikira bari, kureba imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ikoboyi, afashe mikoro mu biganza arimo kuvuga, inyuma ye hateretse ameza arambitseho igitambaro, ndetse n'abandi bagabo batatu bicaye bayakikiye.

Abantu benshi bari ku murongo batonze umurongo higanjemo abambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'abambaye imyenda ya kaki, bagaragara nk'abacunga gereza, umugabo umwe w'umuzungu wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru.

Umugabo wambaye ikositimu yambariyemo agapira k'ubururu ndetse n'ishati yumweru, ari gusuhuza umugabo w'inzobe cyane wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ya kaki, hirya yabo hagaze umugore wambaye ishati y'umweru n'ijipo ya kaki, hino hahagaze abasore bipfumbase barimo kubareba.

Inyubako nziza igeretse iri kugaragara neza yubatse neza, ifite ibirahure, ifite irangi ry'umukara ndetse isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari ubwogero buri kugaragara neza, amazi menshi akikijwe n'ibyatsi.

Icyumba cyiza giteguye neza, gifite amarido ku ruhande ari kugaragara neza, harimo igitanda gishashe neza matera ifite ibara ry'umweru n'amashuka ndetse n'umusego mwiza wo kwiseguza.

Inyubako nziza harimo icyumba kiza giteguye neza gishyashye ndetse n'intebe zitondetse ku murongo, bigaragara ko hicara abantu benshi baje kuhafatira amafunguro n'ibindi bintu bitandukanye.

Abantu benshi bateraniye hamwe ahantu mu cyumba, barahagaze kumurongo, wagirango barimo kwifotoza, abagabo bambaye amakositimu y'umukara ndetse harimo umwe wambaye ikositimu y'umweru ndetse hari n'umugore umwe ufite imitatsi.

Ahantu heza hateguye neza hahanitse imyenda y'amabara atandukanye cyane cyane iyambarwa n'abagabo, ifite amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu iyo myenda yambarwa imbere.

Abantu benshi bari ku mamoto barimo kugenda ndetse ibicuruzwa bitandukanye, ibibuni ibitoki ndetse n'utuzu twubakishije amahema biri ahantu ku muhanda abantu barimo gucuruza.

Icyumba cyiza giteguye neza, harimo intebe ndende zifite imifariso y'umutuku ndetse n'aho kwegamira, ameza meza apanze neza ku murongo ndetse n'ibinyobwa na Televiziyo biri kugaragara neza.

Ahantu heza hateguye neza, hubatse neza, intebe zitondetse ku murongo, hagati yazo hari ameza meza cyane, imbere hari ibiti byamabara atandukanye bitohagiye biri kugaragara neza.

Ahantu hubatse neza, hateguye neza, hari indabo ndetse n'ibindi bintu by'amabara atandukanye, hariho amatara ari kwaka mu ibara ry'umuhondo, intebe n'ameza bitondetse neza ku murongo.

Umuhanda mwiza w'umukara uri kugaragara neza wubakiye, hagati ufitemo umurongo w'umweru, umumotari wicaye kuri moto yambaye kasike y'ubururu, agapira k'umutuku k'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, akaboko kamwe agafatishije telefone, akandi gafashe amahembe ya moto.